Umukozi wa MTN wicaye ku gatebe ndetse hariho umutaka ugaragaza ikigo cy'itumanaho cya MTN, ku ruhande rwe hariho umunyonzi ufashe igare ndetse yambaye isarubeti y'icyatsi, arimo kugenda akora ku igare rye, akora kuri mvirope iri ku igare.

Umukozi wa Airtel, urimo gutanga serivisi ijyanye no kubikuza, kubitsa ndetse no guhabwa amayinite, ari kumwe n'undi mukiriya waje gusaba serivisi, barimo kugenda baganira ndetse uyu muntu bigaragara ko akorera ikigo cy'itumanaho cya Airtel.

Abantu babiri bahagaze ku kazu k'iduka ryarindi ricuruza amayinite ni aho babikuriza cyangwa kubitsa amafaranga aba ni abakozi ba MTN, ni umu ajenti arimo kugenda yakira umukiriya w'umumama arimo kugenda amuhereza serivise zigiye zitandukanye.

Umudamu urimo kugenda ahereza mugenzi we akantu, ndetse n'abandi barimo kugenda bareba uko ibikorwa biri kugenda. Ku ruhande hariho n'umugabo, nawe uri kugenda anyura mu bantu, aho agenda abasobanurira ari nako bagenda nabo bamuha ibintu bigiye bitandukanye.

Abagabo babiri barimo kuganira. Umwe ni umukozi w'umuyoboro w'itumanaho airtel wo mu Rwanda, aho uyu muntu barimo kumuha serivisi zigiye zitandukanye, harimo izo kubitsa, kubikuza ndetse n'ibijyanye na serivisi z'ubujyanama ku bijyanye n'umuyoboro w'itumanaho.

Abantu babiri barimo kuganira, aho ari umukozi w'ikigo cy'itumanaho MTN, aho ari mukiriya aje gufata amayinite cyangwa se akaba aje kubikuza, cyangwa se kubitsa arimo kugenda amuhereza serivisi, amubaza ibintu bimwe ashobora kuba akeneye.

Ubuhinzi bw'inanasi aho zirimo kwenda kwera zenda gusarurwa, inyinshi muri zo zireze bashobora kuzikata ndetse amababi yazo agatoshye biragaragara ko ahantu ziri harimo agafumbire ndetse hafite ubutaka bwiza.

Inyubako yubatse neza muri bwa buryo bugezweho. Hariho ibirango bigiye bitandukanye bigaragaza ibikorerwa hano, aho hari banki ya koje. Aha ngaha kandi imbere hariho ikirango kigaragaza ko aha ngaha hakorerwamo ibijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga.

Abagabo b'abazungu bateraniye ahantu hamwe, harimo n'abirabura barimo kugenda basobanura ibyo abazungu barimo kuvuga, bahagaze ahantu hubatse hasikaye, hahandi bororera ibiti ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, bita muri pepiniyeri.

Igihembo gihabwa umuntu witwaye neza cyane cyane gikunze gukoreshwa mu mikino, aho ikipe yitwaye neza yarangije umukino ari iya mbere ndetse cyane cyane mu gihe cy'irushanwa rirangiye batanga iki gikombe nk'igihembo cy'ikipe yitwaye neza.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abagabo abirabura ndetse n'abazungu bahagaze ahantu hari icyobo kinini cyane, hariho bamwe barimo kugenda bafotora aha ngaha ni kwa kundi abantu baba batembereye barimo kureba ibyiza nyaburanga.

Umugabo w'umuyobozi afite indangururamajwi afite n'agatabo n'ikaramu mu ntoki arimo kugenda ageza ubutumwa bugiye butandukanye kuri aba baturage bari kumwe na bo gusa ntari wenyine ari kumwe n'abandi bantu bahuje gahunda barimo kugenda berekana umusaruro w'inanasi.

Imbaga y'abantu bateraniye ahantu hamwe, yiganjemo abasore, abasaza ndetse n'abakecuru, barimo kugenda bahugurirwa hamwe ndetse biragaragara ko basangiye umuryango, baririmo kugenda baganirizwa ku ngingo runaka, zihariye.

Igare ririho amakese, agizwe na Pirimusi, Mitsingi, ndetse n'andi za Amusiteri. Ahangaha arimo kujyanwa, ahantu hagiye hatandukanye bacuruza inzoga ndetse n'ibyo kurya cyangwa se muri Bare.

Akabati kamoko agiye atandukanye inzoga ziganjemo amarikeri zazindi ziba zihenze cyane, ndetse hasi hari n'agakese karimo inzoga za henikeni zikorerwa muri Bralirwa, ndetse n'aho bakirira abakiriya bita muri kontwara, aho ha bahagaze urigurishaheza abakiriya hanze ya kontwari.

Isabune yifashishwa mu kumesa ya yindi y'ifu, bayita omo. Ahangaha ushobora kujya kuyimeshesha imyenda, kuko bituma inoga neza mu gihe yajemo ibizinga, bigatuma imyenda yongera gucya.

Umuntu arambitse imbuto hasi ziganjemo amavoka ndetse n'utundi tubuto ndetse akikijwe n'abandi bantu bagiye batandukanya barimo kugenda barobanura izo bashaka, hanyuma imbere hariho umukoropesho urambitse hasi ndetse aha ngaha ni mu iduka.

Iduka ririmo ibintu bigiye bitandukanye amavuta, imiceri, amasabune, ndetse n'ibindi byinshi. Harimo abantu babiri harimo umuguzi ndetse n'umugurisha. umuguzi ni umugabo arimo kugenda yerekana ibicuruzwa afite yereka umumama waje kugura.

Umuguzi n'umugurisha bahuriye mu iduka umwe arimo kugenda aba ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hanyuma undi uri kumuha ibicuruzwa akagenda yandika akurikije icyo uyu mukiriya arimo kugenda amubaza. Uyu mukiriya kandi nta gicuruzwa na kimwe bari bamuha aracyategereje, ari gusaba ibyo akeneye.

Amoko y'amakaroni ari muri butike aha ngaha uraza ukayagura iyo ufite amafaranga urgo uraza ugatanga amafaranga hanyuma bakaguhereza agapaki k'amakaloni, bitewe n'ayo ushaka niyo baguha bitewe nabyo ukeneye cyangwa se umubare w'ibyo ushaka.

Umugore w'umucuruzi aho ari mu iduka rye ririmo amandazi, imigati hakabamo amaji yo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, amabiswi, amakaroni ndetse n'ibindi ahangaha ushobora kuza kuhagurira buri kimwe ushaka.

Mu mujyi rwagati aho hari abakozi ba MTN hari akazu, aho umukozi ukorera ikigo cy'itumanaho cya MTN hagaze kandi n'abamotari n'umuntu uje gutega moto, hanyuma kandi hakurya hariho amaduka agiye atandukanye acuruza ibintu bitewe n'icyo umuntu ashaka.

Agace mu mugi rwagati, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga .Aha ngaha kandi bacuruza canal cyangwa se ibikoreshwa mu kuzana amashusho cyane cyane mu gihe hari imipira iri kuba cyangwa se ibiganiro bya televiziyo.

Amajyane ari mu dushashi tugiye dutandukanye aho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari gutegura kacyayi. Ahangaha kandi ni amajyane akoze muri tangawizi niyo yiganjemo muyari muri utu dusashi aho kamwe ushobora kukagura igiceri cya mirongo itanu.

Bamwe mu bagize Itorero ry'Abakatolike ni abapadiri bagera kuri batanu harimo n'umuzungu umwe usa n'umushinwa, hanyuma kandi bari imbere aho abakirisitu beje gusenga baba babareba, bari ahirengeye.

Urusengero rudateye irangi ndetse rugizwe n'amatafari ahiye niyo arwubatse hejuru hariho igisenge kirigizwe n'amabati atukura, ndetse afite n'imireko igenda ikusanyiriza amazi y'imvura hamwe ayijyana mu bigega.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bakoranye bari muri kiliziya barahagaze imbere hariho umugabo upfukamye kuri aritari ategerereza ko padiri aza akamuramburaho ibiganza ari nako amuha umugisha amuha amasakaramentu agiye atandukanye.

Umugore urimo gusuhuzwa na Musenyeri, arimo kugenda amuganiriza, hanyuma ku ruhande hicayemo abandi bantu bagiye batandukanye bitabiriye Kiliziya baje gusenga ndetse ku rundi ruhande hariho umugabo w'umuzungu barimo kugenda bareba imbere.

Umwana wazanywe kwa muganga barimo kugenda bamwitaho, ndetse umumama wamuzanye yicaye ku ruhande, ndetse umuganga arimo kugenda areba ikibazo umwana afite ku matwi, ndetse uyu muganga afite imisatsi myinshi arimo kugenda ashira icyumvirizo, mu matwi ye kugira ngo amenye ikibazo afite.

Korari igizwe n'abaririmbyi b'abagabo bafite indangururamajwi bari no kugenda baririmba, inyuma kandi hariho umugore wambaye ikanzu y'umutuku nawe afite indangururamajwi ategereje ko aba ngaba b'abagabo basoza ijwi ryabo nawe agakomeza aririmba yungamo.

Abantu bakoranye baje mu rusengero barahagaze, imbere yabo nta mupadiri cyangwa se umupasiteri urimo kubigisha, bicaye gusa bategereje ko uza kubagezaho ijambo ry'imana aza, ni mu rusengero rurimo abakirisitu bakeya.

Abantu bagize itorero barimo gusengera hamwe, abenshi ni abagore abandi nabo kandi bahimbawe bagiye mu mwuka ,barimo guterura isengesho ni cya gihe, aho buri wese aba arimo kusenga ku giti ke yatura ibyaha bye asaba imbabazi Imana ari nako agenda ayihereza ibyifuzo.

Abayobozi bakomeye bagize idini rya katolike, aho biganjemo abasenyeri ndetse n'abapadiri baba bagenda bamufasha, ahangaha barimo kugenda bafatanya mu gutura igitambo cy'ukarisitiya ndetse no kwamamaza ijambo ry'imana barigeza ku baturage baje mu misa.

Icyumba cya hoteli kirimo aho umuntu abika udukoresho twe, tugiye dutandukanye ndetse hariho na telekomande yifashishwa mu gucana televiziyo. Aha ngaha ni aho umuntu aba yicaye ni muri salo. Harimo intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Hariho kandi na gaze umuntu ashobora gucana.

Icyumba giteguye neza kirimo ameza, intebe ndetse zifite n'imisego, hatatse indabo ahangaha ni mu mahoteli ari hahandi abantu baganirira mu gihe bari mu nama runaka, cyangwa se igihe nanone hari bafite abashyitsi igihe barimo kuganira.

Muri hoteli, aho hariho aho umuntu ashobora gukarabira mu gihe amaze gukora bintu bifite umwanda cyangwa se ahangaha igihe uvuye mu bwiherero, uvuye kwituma cyangwa gukora ibindi bintu bijyanye n'umwanda uraza hano ugakaraba.

Hoteri itatse neza irimo ibipirizo, indabo ndetse n'inebe umuntu yicaramo mu gihe hari kunywa akantu ndetse hubatse neza ku buryo aha ngaha umuntu uhicaye ashobora kwishyura amafaranga menshi cyane byonyine niyo byaba ari ukwicara gusa nta kintu asabye mugihe ari kuharuhukira.

Serivisi zitangirwa hano zijyanye no kuba ushobora kuhafata icumbi. Hariho ibyo kurya bigiye bitandukanye bitangirwa hano, ndetse ahangaha ni muri resitora aho bakira abashyitsi, bakabacumbikira ndetse bakabahereza n'ibyo kurya.

Ibitanda bibiri bifashe neza bya bindi biboneka cyane cyane amahoteli cyangwa se ahantu hakodesha ibyumba, aho ugenda ugafatamo icyumba cyo kuraramo, waba uzamaramo icyumweru, cyangwa se ijoro bitewe n'amafaranga ufite, cyangwa se gahunda uteganya kuhakorera.

Icyumba cy'uruganiriro, kigizwe n'intebe, aho umuntu ashobora kwicara cyangwa akaryama ndetse n'amezaza ariho indabo zitatseho, ameza y'ibirahuri ndetse hakurya hari n'indi ntebe imwe, ishobora kwicarwamo n'undi muntu mu gihe ari kuganira na mugenzi we.

Hoteli imeze neza, igereretse gatatu, igizwe n'ubusitani bwiza, harimo indabo ndetse n'umucaca, hariho kandi ku ruhande ahantu hari utuzi tumeze neza umuntu ashobora gukaraba ndetse no kwidumbaguzamo, hakikijwe n'indabo nziza ndetse n'ikirere kirasa neza.

Amoko y'ibiryo agiye atandukanye ari ku mapapi ateretse ku meza hariho kandi n'ibirahuri bigera kuri bitatu birimo icyo kunywa. Ni za nzoga ziba zihenze ziba zirimo aka divayi ndetse n'izindi nzoga zigiye zitandukanye.

Hoteri yubatse neza ikikijwe n'ubusitani burimo imikindo ndetse n'izindi ndabo zigiye zitandukanye zituma haba heza hakaba ahantu nyaburanga, hariho kandi n'amabendera agiye atandukanye harimo iry'u Rwanda n'andi mabendera atandukanye.

Icyumba kimeze neza kiriho intebe umuntu ashobora kwicaramo, aha ngaha ni hahandi mu mahoteli aba ahenze cyane, harimo aho kuganirira gusa aha ngaha haba harimo n'ibyumba umuntu ashobora kuraramo mu gihe afite urugendo kandi ashaka kuruhuka.

Imifuka igera kuri ibiri, aho umwe urimo udukombe, tugera kuri tune durenzemo umuceri. Hanyuma undi mufuka muremure urimo umuceri. Kuruhande kandi hariho utundi ducupa dutoya turimo amavuta yo guteka ndetse ahangaha nikwakundi mu maduka, baba bafite ibintu byinshi, bimwe bakabishyira hanze ibindi mu nzu.

Agakoresho kaboneka mu maduka aho kamanitseho imyenda y'amabara atandukanye hariho iy'umihondo n'iyimikara irimo utundi tubara tugiye dutandukanye ndetse igizwe n'amapantaro agiye amanitse ku twuma tuyafashe aho abantu bayabona neza.

Mu isoko aho abantu barimo kugenda bacagura inkweto zigiye zitandukanye, buri wese areba izimushimishije, izimukwiriye, buri wese arimo kugenda yigera bitewe n'amafaranga afite. Iyo umaze kwigira ugasanga iragukwiye uganira n'umucuruzi akakubwira amafaranga igura, wakumva wishimye cyangwa bihura nayo ufite warangiza ukishyura.

Imbuga irimoi ibyatsi bigiye bitandukanye, bisa n'ibyumye, ahangaha biragaragara ko ari mu gihe k'izuba cyangwa se mu gihe k'impeshyi kuko ibi byatsi bisa n'ibbyumye kandi ibi ibyatsi bikundwa n'amatungo, cyane cyane inka, ihene ndetse n'intama.

Isoko riri ahantu mu mugi aho harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibitunguru, imboga ndetse n'ibindi byinshi. Haparitsemo imodoka ndetse hari n'urujya rw'abantu n'uruza barimo kujya mu bice bigiye bitandukanye by'aka gace k'isoko.

Ibikoresho by'amoko agiye atandukanye byiganjemo ibyo mu gikoni harimo amajagi, amasahani, ibikombe, utuyunguruzo ndetse n'ibindi byinshi, harimo amasafuriya ndetse n'imifuniko yabyo, aha ngaha ni mu iduka aho ushobora kubigurira.

Umugore w'umucuruzi imbere ye hariho imineke arimo kugenda acuruza. Ahangaha mu gihe uyikeneye uraza ukamuha amafaranga, hanyuma nawe ugatwara umuneke. Ahangaha kandi baguha serivisi zinoze, nkurikije ukuntu uyu mugore ameze.

Abacuruzi barimo gupima, umwe afite umunzani hanyuma hasi hariho umufuka ni kwa kundi bapima bajishe umufuka ku munzani hanyuma bamwe bagaterura ubundi umufuka ukerera bagahita bamenya ibiro ufite.

Ameza ateguye neza ariho ibiribwa by'amoko agiye atandukanye, intebe nyinshi aho abantu bashobora kwicara bakaganira bari gusangira ibitekerezo ndetse n'ifunguro, aho buri wese aba yicaye mu buryo bumworoheye ndetse akaba ashobora kugera ku ifunguro.

Resitora batangiramo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ahangaha uraza ukahicara wowe n'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe, barangiza bakaguhereza icyo kunywa, wasoza ugataha ku mahoro. Hanyuma kandi haba hariho n'umuziki aho ushobora kubyina, ndetse n'ibindi.

Ameza ateguye neza aho umuntu ashobora kuza akarura ibiryo bike bike ashingiye ku byateguwe, aha ngaha bagenda bategura ibisahani binini cyangwa se ibisorori binini cyane, aho umuntu aza yarura bike bike bitewe n'ibyo akenye.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda, mu mihanda ya kaburimbo iyi ngiyi imeze nka zazindi ziba zimeze nk'imbangukiragutabara cyangwa se nka zimwe zigendamo abayobozi, abantu bari kwihuta kuko izi ngizi ari imwe mu binyabiziga ntakumirwa.

Umugabo urimo kugendera kuri moto, mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hari icyapa, cyamamaza inzoga ya Pirimusi, ikorerwa mu ruganda rwa Buralirwa ndetse kandi hariho icyapa, kigaragaza ko imbere hariho abantu bashobora kwambukira ndetse ahangaha bahita muri zebura korosingi.

umugabo uri kuri moto ndetse yiteguye gutwara, yambaye igikasike cyangwa se ingofero y'abamotari, ishobora kumurinda impanuka mu gihe runaka, yiteguye gutwara ariko nta mugenzi afite kuko umugenzi igihe ahari aba yiciye inyuma ye.

Umumotari uhetse umuntu arimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bari bonyine nta bindi binyabiziga bihari. Ni ya mihanda iba mu mugi aho ku ruhande haba hatatse neza kuko hari indabo ziconze neza bishobora gutuma abantu babona ko ari heza kandi bishimisha abantu bahagenda ndetse kandi ni mu buryo bwo kwita ku bidukikije.

Abantu babiri bahekanye ku igare ni abahungu babiri barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo umaze igihe gitoya ukozwe, aha ngaha baratekanye kuko nta binyabiziga byinshi biri muri uyu muhanda barimo kugenda bagana mu byerekezo bigiye bitandukanye.